Mu Rwanda rwo hambere haranzwe n'ibintu byinshi bya gakondo. Hakundaga kuboha, kubumba ndetse no guhiga. Muri uko kuboha rero habaga ibintu bitandukanye. Harimo: ibyibo, ibiseke, imitemeri ndetse n'intara n'inkoko. Uko intara barazitakaga bakoresheje ibyo bita imigongo.

Ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika cyane cyane mu Rwanda, tumenyereye ko mu birori mu minsi mikuru habaho imbyino zitandukanye zigaragaza umuco Nyarwanda. Umuco nyarwanda twakira abashyitsi dushobora kubyina mushyayayo, ikinimba, igishakamba n'ibindi, kugira ngo dususurutse abashyitsi batugendereye, tugagaragaza umuco wacu uturanga.

Inzu zabugenewe mu gutunganyirizwamo umuriro w'amashanyarazi ziba ahantu henshi ariko haba harinzwe ku buryo buhambaye, iteka ryose baba biteguye ko hashobora kuba inkongi y'umuriro niyo mpamvu bashyiraho igikoresho cyabugenewe cyo kuzimya uwo muriro igihe habaye inkongi y'umuriro.

Umubariro w'amashanyarazi n'ingufu zikomoka ku mazi ndetse no ku bintu bitandukanye, unyuzwa ku biti bishingwa ndetse ugashirwaho insinga, ni byiza rero ko igihe cyose tugiye kurira cyangwa se kujya ku muyoboro w'amashanyarazi tugomba kwambara imyenda yabugenewe: umukandara, ingofero, udupfukantoki n'ibindi.

Inyubako nyinshi twitaye ibikorwa bya leta, ni inyubako zifasha abaturage kubona serivisi za leta hari serivisi z'ubuzima, ubutabera by'amategeko, mu by'ubuzima tubisanga ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro byabugenewe hanyuma umuturage agahabwa serivisi akeneye.

Ubuyobozi bwiza ni ubuyobozi bwegera abaturage bukabasobanura ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera, igihe bakeneye ubufasha bujyanye n'inzego zibishinzwe, ari inkiko ndetse no mu manza, ni byiza ko umuyobozi wese yegera abaturage ayoboye.

Ubutabera, uburenganzira bwa muntu, ni bimwe mu bigize amategeko y'igihugu cyacu, kandi ni byiza kuko bifasha umuturage kugira ngo uburenganzira bwe bwubahirizwe kandi ahabwe ubutabera igihe ari ngombwa, haba mu mibereho ye ndetse n'ubuzima bwe bwa buri munsi.

Mu buzima bwa buri munsi dukeneye ibintu bitandukanye, ibyoku kurya, ibyo kunywa ndetse n'umutekano harimo n'ubutabera. Umuturage wese iyo yagize ikibazo akenshi yitabaza ubutabera kugira ngo aze kurenganurwa kandi ahabwe ubufasha mu buryo bukwiye. Ni ngombwa ko rero leta ishyira inzego zibishinzwe urwego rw'ubugenzacyaha ndetse n'izindi kugira ngo umuturage ahabwe ubutabera nk'uko bikwiye.